Umugore yambaye agapira gafite utuboko tw'udushumi gasa umukara, ateze agatambaro k'umweru mu mutwe ari mu nyubako icururizwamo ibyo kurya yubakishije imbaho z'ibiti.

Umudamu ufite umusatsi mugufi, yambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku n'umweru, ipantaro y'umukara, ari gusobanurira abadamu bagenzi be bicaye, inyuma yabo hari igitambaro gifite ibara ry'umutuku, n'idirishya ririho ikirahure.

Inyubako igeretse ifite imiryango itatu, amadirishya abiri, umuryango umwe ufunguye, ku madirishya y'umuryango hariho ibyapa, ndetse ku nyubako hariho icyapa kiranga icyo inyubako ikorerwamo, iruhande ku nyubako hariho umucungamutekano, yambaye imyenda y'imikara, afite igikoresho kirasa.

Icyumba cy'inama giteyemo intebe nyinshi z'umukara, hateyemo ameza y'umukara maremare ateretseho uducupa tw'amazi afunze.

Inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi iriho amabara y'umutuku n'umuhondo ishushanyijeho umuntu, yubakishije ibirahure imbere hari ibinyabiziga, ipikipiki n'modokari n'abantu bari kugenda mumuhanda.

Icyumba cy'inzu gisize irangi ry'umweru gifite idirishya rigari, kiriho ibyuma bisa n'umukara, hasi hasize amabara y'umukara n'umweru avanze, gifite umuryango wijimye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi usa n'ubururu ipantaro ifite ibara ry'ivu, iruhande hari umugore yambaye ikanzu y'amaboko maremare y'umutuku wijimye ateze igitambaro cy'umuhondo kirekire mu mutwe, ku rundi ruhande hari umugore wambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru bari mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya.

Umudamu wambaye umupira w'amaboko magufi, w'umuhondo, ku ijosi hariho ibara ry'ubururu, ku maboko hariho ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire y'umukara iboshye, yambaye ipantaro y'umukara, yegeranye n'umuhungu wambaye umupira wijimye, ufite igikoresho cy'itumanaho mu ntoki, bari mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi.

Umugore wambaye umupira w'amaboko magufi usa n'ubururu ufite imisatsi myinshi kumutwe y'umukara afite agacupa mu ntoki gasa n'umweruru gapfundikishije umupfundikizo usa n'ubururu uri mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya.